Iyi foto ndabona ari abayobozi bari kujya inama kandi byiza ko abantu bajya inama kugira ngo barebe ko igihugu cyatera imbere ndetse n'abaturage.